Aho bagurira imiti itandukanye bitewe n'uburwayi bw'umuntu arwaye, bitewe n'ikibazo afite, haba uburwayi bwo mu mutwe, ubwo mu nda, ubw'amaguru, impyiko, hano buri wese yisangamo.

Ibimera bitandukanye ndetse binavura. Na ho uruteja ruvura umuntu ufite ibintu by'ibikovu ku mubiri. Amusigiraho amazi yabyo noneho akabasha gukira akamererwa neza

Umurima ugizwe n'ibihingwa bigiye bitandukanye birimo pasiparumu, harimo umugwegwe harimo ibyatsi n'umubirizi, kandi akaba ari n'umuti, ubwo bakaba bawukoresha bakora utugozi tubafasha kuzika intu bigiye bitandukanye.

Avoka ni urubuto rwiza rukorwamo ibintu bigiye bitandukanye, icya mbere bararurya, bigatuma umuntu wa ruriye amererwa neza, bakuramo amavuta, iyi bayita proje, bakuramo amavuta agiye atandukanye, kandi uyakoresheje amagirira umumaro.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, harimo ibiko, ibisura, ibisura birababana cyane biba bifite amahwa, ku buryo oyo ugikozeho kikubaba, ukagira ngo ni urutozi rukuriye kandi igikoni. Iyo bimaze gukura babikoresha bashingirira cyangwa babyubakisha uruzitiro.

Nko kubungabunga ibidukikije kandi no kubana hasa neza, igiti gifatwa nk'uburanga kandi kigafatwa nk'aho umuntu yakugama izuba, kikazana amahumbezi mu gihe uyashaka yayabona, kandi kikaba n'umutako mu rugo rw'umuntu cyangwa ahandi.

Inzu iri kubakwa imaze gushirwaho amabuye y'amakoro, hejuru hariho amatafari, imaze gushyirwaho idirishya, hariho n'amateguraga, harimo bamaze no gushyiraho ibiti bita amaburutu, igeze mu gihe cyo gusakara.

Ikimera kimera ahantu hatandukanye kikitwa umuharavumba. Tugishinzwe gikora nk'umuti, umuti uvura inkorora, umuti bahereza umuntu wagize ikibazo cyo kumva atamerewe neza, amavunane bakavumusiga akabasha kugarura ubuyanja.

Umeze neza urimo igihingwa cy'igisheke igisheke iyo kimaze kwera, kigira umumaro umuhinzi wa giteye aragisoma akakirya kandi akanakigurisha kikavamo amafaranga, abasha no kuvamo umutobe mwiza umuntu anywa agashira inyota.

Igitsinsi k'igisheke kimaze gushibuka aho kizamuka kikabasha kuribwa nk'imbuto, kandi kikanagurishwa kikanavamo n'umutobe, uwunyweye akamererwa neza ndetse bikazanira n'ugiteye amafaranga kuko barabigurisha.